Icyumba kigari cyane gisize amarangi y'umweru n'amadirishya afite ibirahure bibonerana, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, yaba abanyamakuru bafite za kamera, ndetse n'abicaye bari gukurikirana ibikorwa biri kuba, bicaye ku meza atandukanye ari mu ibara ry'umuhondo, kandi bose bafite amakaramu n'amatelefone.

Umugore w'umuyobozi muremure cyane w'inzobe kandi ubyibushye, afite mokirofone mu ntoki cyangwa indangururamajwi afite kandi ikayi y'umukara mu ntoki yambaye n'agakomo ku kaboko, ari kumwe n'undi mugore wambaye imikenyero y'umweru irimo utubara tw'umutuku ndetse n'agapira k'icyatsi kijimye, bari imbere y'icyapa cyandikishije amabara y'umweru ndetse gisa ubururu bwerurutse.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'imikara ndetse n'ubururu bwijimye. Hari icyapa iruhande rwabo kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kibuza abatwaye ibinyabiziga kugenda ndetse hirya yayo hari ibiti bitandukanye n'amazu mu mabara y'umweru, hari kandi imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri.

Inzu z'ibitaro zubakishije amatafari ahiye ya mpunyu, harimo utubara tw'umuhondo, akikije ibiti by'ubwoko butandukanye birimo imikindo, indabyo z'ubwoko butandukanye n'ibindi haparitse imodoka ebyiri imwe y'ibara ry'umweru indi y'ibara ry'umweru n'amadirishya y'umukara.

Inyubako isize amarangi y'umweru n'ubururu, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ngo Ibiro by'Umudugudu wa Gakoma, bifite kandi amadirishya ariho ibipapuro byerekana gahunda zikorerwa kuri ibi biro by'umudugudu.

Umuhanda wa kaburimbo mugari cyane urimo abagenzi batandukanye. Ukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye. Hariho icyapa kinini cyane kiriho ibara ry'icyatsi ndetse n'uturongo tw'umweru, turangira abantu ibyerekezo bitandukanye baganamo.

Inyubako ndende ishakaje amabati yicyatsi cyijimye ndetse iteye amarangi yumweru, hariho abantu batandukanye abinjira ndetse n'abasohoka muri iyi nyubako. Imbere yayo hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye haparitse kandi abamotari ndetse n'imodoka z'ubwoko butandukanye ziri mu bikorwa by'ubucuruzi.

Hagati y'inyubako zitandukanye zisakaje amabati ay'umukara, ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku. Harimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso ikikijwe n'ihema ry'ubururu. Mbere yaho hari umunyonzi utwaye igare, wambaye agapira k'umutuku, uhetse umwana wambaye agapira k'umukara.

Hagati mu muhanda wa kaburimbo, hakikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye. Harimo ihuriro ry'abantu bavanze, abashinzwe umutekano, abayobozi mu ngeri zitandukanye, ndetse n'abaturage. Harimo abasirikare ndetse n'abapolisi, biganjemo abambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'iya polisi, n'abambaye udupira tw'umweru n'indi myenda itandukanye.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bicaye ahantu abandi bahagaze, harimo abambaye imyenda yiganjemo ibitenge biri mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, hari umusaza ufite imvi z'uruyenzi wambaye ikote ndetse n'agashati, hari kandi umugore ufite mikoro arimo kuvuga asangiza ijambo abari aha.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inyubako zitandukanye z'ubucuruzi, hari icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru gihagarika, hari kandi igipangu kiri mu ibara ry'umweru haparitsemo moto iriho umumotari wambaye imyenda y'imikara yijimye, ari kuvugana n'umugenzi aho amu.

Ikibuga kigali cyane cyubakishije sima giparikwamo imodoka z'ubwoko butandukanye zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikikijwe n'amazure mu mabara y'umweru akorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo kandi inzu isakaye ariko itagira ibikuta yicayemo abagenzi batandukanye bafite imizigo y'ubwoko butandukanye.

Ikibuga kigari cyubakishije sima kimeze nka kaburimbo ahaparikwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, harimo imodoka y'umweru ya kwasiteri ifite amadirishya y'ibiibirahure bibonerana, irimo uyitwaye wambaye agapira k'umuhondo, hari kandi umugenzi wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, hirya yayo hari intebe zicarwaho n'abagenzi bategereje imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umuhondo uri gucamo moto iri kwaka itara, iriho umumotari wambaye umupira w'umukara ndetse ahetse icupa ry'amazi imbere, umuhanda ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi atandukanye, uriho urujya n'uruza rw'abantu bashaka serivisi.

Abasore n'inkumi bari mu kigero cy'urubyiruko, bambaye utwenda twiganjemo tw'amabara y'umuhondo ndetse n'utwenda tw'umutuku twa siporo. Bikoreye amabuye barimo kugenda mu nzira ikikijwe n'urutoki ndetse n'ibihingwa by'inyanya bari mu gikorwa cy'umuganda.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abayobozi ,abaturage, n'abashinzwe umutekano; nk'abasirikare abadaso, ndetse n'abandi..bari mu gikorwa cy'umuganda, ahantu harimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo kandi abakorerabushake bambaye imyenda yabugenewe.

Urubyiruko rw'abakorerabushake ruri mu gikorwa cyo gutanga umuganda, rurimo abantu batandukanye harimo abakuze ndetse n'urubyiruko rw'abatoya, bari kubaka inyubako izwi nka tuwalete cyangwa ubwiherero, bari imbere kandi y'inzu nini yubakishije amatafari ya rukarakara abumbye mu byondo, isakaje amabati y'umweru.

Imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu masaha ya n'ijoro, hahuriye urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bambaye imyenda yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, yiganjemo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'ubururu. Bose bari mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo itapi y'icyatsi kijimye ndetse n'imirongo y'umweru, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'amarineti y'umukara, ari kumwe kandi n'umugore wambaye imyenda yambarwa mu myitozo ngororamubiri ipantaro y'umukara imwegereye ndetse n'umupira w'umukara n'inkweto z'ubururu n'umupira wo gukina.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo mo hagati ukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'igipangu kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara cyubakishije kandi amatafari ahiye ya mpunyu, hagati muri uyu muhanda harimo ushinzwe gukora amasuku wambaye imyenda yabugenewe y'ubururu ndetse n'umupira w'imbeho w'ibara ry'iroza, afite umweyo mu ntoki arimo arakura imyanda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu y'ubwoko butandukanye, yaba ay'ubucuruzi ndetse n'ayo guturamo. Amazu akikijwe n'ibipangu by'amabara atandukanye, byiganjemo ay'ubururu. Ariho kandi indabyo n'ibyatsi bitandukanye. Mu nzira y'abanyamaguru, harimo umugenzi wambaye agapira k'iroza ndetse n'agapantaro k'umukara